Icyapa kigaragaza ubwishingizi bw'ingurube kiriho ifoto y'ingurube, ikirango cyanditseho Radianti yacu, ubwishingizi buciriritse, telefoni wabahamagaraho n'ikiguzi cy'ubwishingizi cya gatandatu ku ijana.

Imodoka z'amoko anyuranye, toyota y'umukara, toyota z'umweru ziri imbere y'inzu ndende ifite ibara ry'ubururu, umweru n'umukara, hakikije ibyuma hejuru kuri etaje, imbere yaho gatoya hari ibiti byakuze wakugamwamo izuba.

Umusore urimo kubuganiza amata yambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu, afite igicuba arimo arabuganiza amata ayabuganiriza ahabugenewe.

Amafaranga y'inoti za magana atanu, z'amayero, ni inoti cumi n'enye, zanditseho ijambo ero, n'umubare magana atanu mu nyuguti nini, n'uturongo ducagaguye, ndetse n'inyenyeri hagati.

Inoti eshatu z'umutuku n'imwe y'ubururu. Ibanza yanditseho umubare icumi n'ijambo ry'icyongereza ero, ikurikiyeho yanditseho mirongo itanu, ikurikiyeho yanditseho makumyabiri, indi iri imbere izibanziriza yanditseho mirongo itanu.

Icyapa cyanditseho ijambo ry'icyongereza ryanditse mu ibara ry'icyatsi bahashiriri, kiriho amagambo anyuranye yanditse mu rurimi rw'icyongereza agaragaza ibiciro byo kohereza no no kwakira amafaranga, imbere yaho gato hari umuti w'ica udukoko witwa sanitayiza.

Utubati tubiri dukoresheje ibiti ndetse dusize na verine, intebe z'amoko atandukanye, intebe zenda gusa umukara, intebe y'umweru, intebe zifite ibara ryenda gusa nka move, amatara arimo kwaka mu nzu.

Isahani y'umweru iriho ibiryo binyuranye amakaroni, inyama, imboga n'icupa riteretse ku meza ariho igitambaro cy'umutuku ibikombe by'umweru, ubugari n'ibindi biribwa.

Inzu ishaje imbere yayo hari abagabo babiri, umugore uhetse umwana ufashe n'umwana mu ntoki, indobo ebyiri z'ubururu, umugore wicaye n'umwana, abagore babiri umwe uhagaze imbere y'indobo n'inzu igeretse, imbere yayo hari abagore bahagaze abandi bicaye bafite n'amabasi.

Isoko ririmo imyenda y'amoko atandukanye, amakanzu amajipo, amashati, umusore wicaye arimo arareba muri telefoni, abadozi b'imyenda bari kumashini, barimo kudoda abandi barimo baragenda mu isoko.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, ari imbere y'umukozi wa MTN mu kazu ka MTN, arimo kubitsa ndetse no kubikura, umukozi wa MTN na we arimo aramuha serivisi.

Inzu igeretse ifite imiryango myinshi n'amadirishya menshi, ifite amatara arimo kwaka imbere n'inyuma, ifite igipangu gikoreshejwe ibyuma, hari amagambo yanditseho hejuru y'iyo nzu.

Inyubako ndende cyane ya RSSB, iriho ikirango cya RSSB no mu magambo arambuye hariho ikindi kirango cyanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza.

Abantu benshi bamwe bicaye bitwikiriye imitaka, abandi barahagaze bisa naho batumburiye ikintu, bari inyuma y'ikigo cy'amashuri, inyuma yabo hari icyapa cya RSSB ndetse n'ikirango cya Ejo heza hari n'abana abakobwa, abagabo n'abagore.

Abantu bahagaze aho bacururiza ibikoresho by'ikoranabuhanga, umwe yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru, undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, imbere yabo bari kuvugana n'umuntu wambaye umupira w'umukara, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga.